Ibyo kurya n'ibyo kunywa bya kijyambere biteguranwe ubuhanga ubona ko atari buri muntu wese wapfa kubitegura uko yiboneye.

Akabari kubatswe ku buryo bwa kijyambere, gacururizwamo ibinyobwa bitandukanye ubona ko gafite ibikoresho bigezweho kandi byinshi.

Ahacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa hubatse ku buryo bwa kijyambere, ubonako hasohokera abantu bifite, bo mu rwego rwo hejuru.

Akabari gacururizwamo ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, ubona ko hari ibikoresho bigezweho, n'abantu barimo gusangira icyo kunywa.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye ibisembuye, n'ibidasembuye. Ubona ko kubatswe ku buryo bugezweho cyangwa se bwa kijyambere.

Ahacururizwaga ibyo kunywa bitandukanye, ubona ko umuseriveri arimo guhanagura icupa, ikirahuri kimuteretse imbere ashaka gufunguriramo shampanye cyangwa si divayi.

Mu kabare hacururizwaga ibinyobwa bitandukanye mu moko atandukanye no mu ngano zitandukanye harimo ibinini bigaragara ko ari bitoya.

Akabari ka kijyambere kari mu nyubako nini yubatswe ku buryo bugezweho, gacururizwamo amoko atandukanye y'ibinyobwa, harimo ibisembuye n'ibidasembuye.

Akabari gatangirwamo serivisi zibijyanye n'ibyo kunywa, ubona ko hateraniye abantu benshi, yaba Abanyafurika n'abanyamahanga, barimo gusangira ibinyobwa by'amoko atandukanye.

Inyubako icururizwamo ibikoresho bijyanye n'ubwubatsi, ubona ko hari amajerekani mu mabara atandukanye, arimo amarangi y'ubwoko butandukanye.

Iduka ricururizwamo ibikoresho byifashishwa mu bwubatsi bitandukanye, hibanzwe ku nsinga z'amashanyarazi, amapensi, ibyuma.

Iduka rinini riri mu nyubako ya kijyambere. Ricuruza ibijyanye n'amatelefone atandukanye, mu rwego rwo kwegereza abaturage ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Iduka rinini ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu bwubatsi no gukora amasuku. Harimo ibirahure, insinga, ibyuma n'ibindi.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ubona ko bibanze ku byo kurya cyangwa se imbuto, harimo amaronji, imineke n'ibindi bitandukanye.

Ni inzu y'ubucuruzi ubona ko iri muri santre, ahantu bacuruzaga za gaze, bacuruzaga amayinite, bacuruzaga ibintu bitandukanye, uducogocogo twinshi ku buryo nyine n'abaturage baho bazaga kuhahahira ukabona ko bishimye nyine kuko haba hari ibintu byinshi mu gihe gito.

Ni inzu y'ubucuruzi icururizwagamo uducogocogo tw'ubuzima, abaturage bifashishaga mu mibereho yabo ya buri munsi.

Ahacururizwa ibyokurya bitandukanye, ubona ko bibanze ku bijyanye n'akaboga cyangwa akadahingwa arizo nyama.

Iduka riranguzaga ibiribwa bitandukanye n'ibinyobwa bitandukanye bigaragara ko ni ahantu hanini kandi hagutse ku buryo bugaragarira amaso.

Inyubako igaragarako imaze igihe itangirwamo serivisi zijyanye n'akabare na resitora, hatangirwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye.

Iduka ricuruza ibikoresho byifashishwa mu bwubatsi, no kugeza amazi ku baturage, bayavana ku miyoboro migari bakayageza ku baturage bayakonsoma.

Inzu y'ubucuruzi bunyuranye igizwe n'imiryango myinshi itandukanye, icururizwagamo ibicuruzwa bitandukanye.

Iduka ricuruzaga ibikoresho bya kijambere byiganjemo iby'ikoranabuhanga, amagare y'abana n'ibindi bitandukanye ubona ko riri ahantu heza.

Inyubako nini itangirwamo serivisi zijyanye n'ibyo kurya bitandukanye, ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye, harimo ibisembuye n'ibidasembuye.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye y'abageni ,yaba iy'abagore cyangwa abagabo .Harimo amakositimu , amakanzu y'abageni bakunze kwita udutimba, n'inkweto bijyanye nabyo.

Uruganda rukora ibijyanye n'imiti yifashishwa mu bworozi bwa kijyambere, rukorera mu nyubako nini kandi yagutse.

Inzu nini yubatswe ku buryo bugezweho icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse impande yaho hagacururiza abandi bacuruzi batoya.

Ahacururizwaga ibinyobwa bitandukanye, byiganjemo ibisembuye, bigaragara ko hafatirwa n'ibyokurya bitandukanye.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bwa kijyambere, icururizwamo ibijyanye n'amarangi, ubona ko ari ahantu heza, ho gukorera bizinesi.

Ahacururizwaga ibicanwa byo mu bwoko bw'amakara bikomoka ku itemwa ry'ibiti, bigatwikwa bigahindukamo amakara yifashishwaga mu mirimo y'ubutetsi.

Iduka rinini ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye, harimo amavuta y'ubwoko bwose, hakabamo umuceri, hakabamo imifuka ya kawunga n'utundi tujyanye na byo.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ubona ko ibyinshi ari ibyifashishwa mu busuderi no mu bijyanye na bwo.

Ahatangirwa serivisi z'ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye, harimo ibisembuye n'ibidasembuye ku buryo bwa kijambere ari bwo buryo bugezweho.

Ahakorerwaga ubucuruzi bw'imitako ya gakondo, ikozwe n'abanyabukorikori mu bugeni butangaje, ku buryo bunogeye amaso.

Amazu menshi akorerwamo ubucuruzi butandukanye, ahiganje ubucuruzi bw’ibyo kurya, ubona ko ari isantire iri ahantu heza.

Inyubako igezweho icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo imyambaro, harimo n'ibiribwa, amasakame, imifuka n'ibindi.

Amazu akorerwamo ubucuruzi buciriritse ,ubona ko ari ahantu h'icyaro ,aho abaturage bakorera ubucuruzi bwabo ,bakanahagurishiriza ibyo bejeje.

Inyubako ya kijyambere, ikorerwamo serivisi zitandukanye, harimo nko gucumbikira abantu, kubagaburira, no kubaha ibinyobwa bitandukanye, ubona ko iri ahantu h'umujyi.

Ahacururizwaga imitako inyuranye cane cane ijanye n'impeta, amaherena yo ku matwi, ayo ku mazuru, impeta za fiyansaye z'ubwoko butandukanye.

Inyubako icururizwamo ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, harimo intebe, ameza, indobo, amabase, ibikuvurori n'ibindi.

Amazu menshi y'ubucuruzi , acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye bigafasha abacuruzi babyo kwiteza imbere ndetse no gutanga imisoro ku gihugu.

Ahacururizwa serivisi z'itumanaho, z'umurongo wa eyateri harimo amayinite, guswapa simukadi, kubitsa no kubikuza, kugura interineti, n'izindi serivisi.

Ahakorerwa umwuga w'ubukanishi bw'amagare. Ubona ko urubyiruko rwitejeje imbere mu kwihangira imirimo, ku mwuga wo gukanika ibinyabiziga.

Ahacururizwaga imiti n'imirama y'imbuto, n'ibikoresho byifashishwaga mu buhinzi n'abahinzi batandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bwo gutanga ibyo kurya， n'ibyo kunywa， aho abantu bajya kuruhukira，no gufatira agacupa， mu gihe baruhutse.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bugezweho icururizwamo, nka bumwe mu buryo bwo guteza imbere abaturage n'igihugu.

Inyubako nini zitangirwamo serivisi z'ubucuruzi, aho bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, bigatuma biteza imbere bakanatanga umusoro ku Gihugu.

Ni inzu nini icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo imyenda, kandi igatangirwamo na serivisi zijyanye n'ubwiza nko gutunganya imisatsi, inzara, n'ibindi bijyanye na byo.

Akabutike ko mu caro gacururizwagamo ibiribwa bitandukanye, ibirayi, ibisheke, ibitunguru, intoryi pavuro, karoti n'ibindi.

Akaduka ko mu cyaro harimo ibikoresho bitandukanye harimo ibiribwa n'ibinyobwa ubona ko ari akaduka gaciriritse ku buryo bugaragarira amaso.

Ahatangirwa serivisi zijyanye n' amahoteri n'ubukerarugendo, ubona ko ari inyubako yubatswe, ikikijwe n'amashyamba, ijyanye na serivisi itanga.

Inyubako nini ya kijyambere, yubatswe ku buryo bugezweho, itatseho ibyapa byamamaza ibinyobwa bitandukanye, ahacururizwa inzoga n'agakawa.

Ahatangirwa serivisi zinyuranye zo kwakira abashyitsi，harimo nko kubacumbikira， kubagaburira，kubaha ibyo kurya n'ibyo kunywa， ndetse no kubatembereza utwo duce.

Ni iguriro n'ihahiro rya kijambere ricururizwamo ibikoresho bitandukanye. Aho abaturage baza gushaka ibikoresho bifashisha.

Agakiyosike gacururizwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ubona ko ari urubyiruko rwihangiye imirimo rugakura amaboko mu mifuka, rugakora ibikorwa biruteza imbere.

Ahakorerwa ubucuruzi butandukanye harimo ubw'ikoranabuhanga, imyenda amafoto mu nyubako zigezweho za kijyambere.

Inyubako icururizwamo serivisi zijyanye n'ubwiza, hibandwa ku gutunganya imisatsi, kwiyogoshesha, kuyisuka no koza mu mutwe.

Ahakorerwa ibinyabiziga bya moteri, cyane cyane amapikipiki, ubona ko abamotari bitabiriye gukoresha ibinyabiziga byabo, ari benshi.

Aharimo gukorerwa ubucuruzi butandukanye harimo gutwara abantu n'ibintu ku magare na za moto, ubundi bucuruzi bugakorerwa mu mazu ahegereye.

Ahakorerwaga ubucuruzi bw'ibigega byo mu bwoko bwa roto，byifashishwaga mu kubika amazi no gufata amazi avuye ku bisenge by' amazu.

Ahacururizwa serivisi zibijyanye n'akabari harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse no gucumbikira ababyifuza.

cyumba c'ishuri cubatswe mu bikoresho bya kijyambere harimo amatafari ahiye ibyuma ndetse n'ibindi bikoresho byo kwifashisha igihe habaye inkongi y'umuriro

Ahakorerwa ubucuruzi bwo kuzunguza ibicuruzwa bitandukanye, harimo inkweto zishobora kugendanwa, imyenda ya caguwa, inyanya mu ma base cyangwa se mu ndobo.

Inzu z'ubucuruzi zitandukanye, zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye abaturage baza kuhahahira, ubona ko hari n'umwana w'umukobwa uhacururiza amayinite.

Ni agakarita kagaragaza inyuguti zitondetse ku buryo bw'akajagari， utapfa gusobanukirwa ngo umenye ngo izi nyuguti zigaragaraho zigaragaza iki? Cyangwa se zishatse gusobanura iki? Mbese ziragoye.

Inyubako ikorerwamo n'iduka ricuruza imyambaro itandukanye y'abagabo n'iy'abagore n'inkweto. Hariho n'ibyapa byamamaza iyo myambaro.

Ahatangirwaga serivisi z'ibijyanye no kugaburira abantu ibiribwa bitandukanye, n'ibinyobwa bitandukanye. Harimo ibisembuye n'ibidasembuye, ndetse hagacumbikira ababyifuza.

Ni ikigo cy'imari abaturage babikaga mo amafaranga ga bo, bavanye mu bikorwa bibateza imbere bitandukanye, bakoreraga mu midugudu yabo batuye mo.

Inyubako zigezweho , n'ubusitani bwiza bitangirwamo serivise zo gucumbikira abantu bazigana no kugaburira no guha ibinyobwa ababagana .

Inyubako yubatswe ku buryo bwa kijyambere igizwe n'ibikoresho bya kijyambere, ahantu hagaragara neza hatangirwa serivisi z'amahoteli n'ubukerarugendo.

Inyubako nini kandi ngari yubatswe mu busitani bwiza, iri ahantu heza itangirwamo serivisi zo gucumbikira abantu, kubagaburira ibiribwa bitandukanye, n'ibinyobwa bitandukanye.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo ibiribwa ubona ko harimo imbuto z'amoko atandukanye imineke, inanasi mbese ibijyanye n'imbuto byose birahaboneka.

Isoko rinini rya kijyambere ryubatswe ku buryo bugezweho, ricururizwamo ibikoresho bitandukanye ubona ko harimo abacuruzi benshi n'abaguzi barimo guhaha.

Iduka riciririritse ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo amasabune maremare , amasabune ya tembo, n'amasabune ya give , hakabamo n'amavuta.

Isoko riciriritse ricururizwamo imyenda ya caguwa, ubona ko ari mu buryo bw'akajagari. Hacururizwamo n'ibindi bitandukanye.

Iguriro rya kijyambere rigaragara ko ari rinini. Ricururizwamo amoko atandukanye y'imitobe, imbuto, imikati n'ibindi byinshi, rigezweho.

Butiki icururizwagamo ibintu bitandukanye harimo ibiribwa, ibikoresho nk'amasafuriya, amasorori, harimo ibyo kurya, imifuka y'imiceri, ibidomoro by'amavuta, bikarito birimo amata n'ibindi.

Isoko ryi'caro aho abantu bagurishirizaga inkweto za caguwa ubona ko harimo abantu benshi barimo gucagura inkweto bamwe bahagaze abandi bicaye.

Inzu nini ya kijyambere, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, irimo abacuruzi benshi n'abaguzi benshi, barimo guhaha ibikoresho bitandukanye.

Iduka rya kijyambere ricururizwamo ibikoresho bitandukanye higanjemo ibikoresho byifashishwaga mu gukora isuku, hakabamo n'ibindi bikoresho byo mu gikoni.

Iduka rinini ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ubona ko harimo ibiribwa, ibikoresho by'isuku nk'imikoropesho, bapiyejenike, n'ibiribwa bitandukanye.

Ahacururizwa ibikoresho bitandukanye byo mu nzu. Harimo indobo, ibiyiko, ibidobo binini, ibibase n'ibindi bigaragara ko ari ibya gisirimu.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ubona ko hibanzwe ku bucuruzi bujyanye n'ibiribwa bitandukanye, aho byorohera abaturage guhahira.

Ahakusanyirizwaga ibyuma bishaje, mu gihe bitegereje ababijanaga mu nganda, gutunganywamo ibindi bikoresho bizima, hifashishijwe umushongi ubivuyemo.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye byo mu gikoni, hibanzwe ku bikozwe muri pulasitike nk'utuyunguruzo two kuyungurura icyayi, imifuka n'ibindi bitandukanye.

Isoko rinini kandi ubona ko ryagutse ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye hibandwa ku biribwa ubona ko harimo umusaruro mwinshi w'amagi.

Ni isoko ricururizwagamo imyenda, bakanadoderamo imyenda ku buryo bugaragazwa naba barimo gutera amapasi, abarimo kudoda imyenda itandukanye.

Isoko ricururizwamo imyenda inyuranye ariko ubona ko ari mu buryo bw'akajagari. Mbese biteje umwanda nubwo hacururizwa imyambaro.

Isoko ry'icaro ricuruzaga imyenda, ubona ko abantu barimo gucagura, abandi barimo kugenda bagana ahari gucururizwa imyenda, ku buryo bw'akajagari.

Isoko ryubatswe ku buryo bwa kijyambere, ricururizwamo imbuto n'imboga bitandukanye, mu buryo bwo gufasha aba mama mu kwiteza imbere.

Ahacururizwa imyambaro itandukanye ubona ko harimo: ingofero ,udutambaro, imisego n'ibindi byifashishwa mu kwambara.

Isoko ryubatswe ku buryo bugezweho. Ricururizwamo ibijyanye n'ubuhinzi nka bumwe mu buryo bufasha abaturage kwiteza imbere, no guteza imbere imiryango yabo.

Isoko ricururizwamo imbuto n'imboga n'ibijyanye n'umusaruro w'ubuhinzi, abaturage barijyamo bagiye guhaha, abandi bazanyemo umusaruro w'ibyo bejeje.

Inyubako za kijyambere, zegereye umuhanda wa kaburimbo, zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho byoroheye abaturage kuhagera no kuhahahira.

Ahacururizwa ubwoko butandukanye bw'inkweto, ubona ko zitatsweho amasaro atandukanye mu mabara, ay'umweru, y'umuhondo, umutuku n'andi.

Isoko ricururizwamo imyambaro itandukanye, iy'abagabo n'iy'abagore, mu mabara atandukanye, harimo ay'icyatsi, ubururu, umukara, n'andi mabara.

Ubu bucuruzi bwo mu buryo bw'akajagari, harimo ibicuruzwa bitandukanye nk'inkweto, imyenda, ibikoresho byo mu nzu harimo amasafuriya, n'ibiribwa nk'ibisheke.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi bwa kijyambere ubona ko harimo ibicuruzwa bitandukanye, hibandwa ku by'abana bato nk'ibikinisho byabo, udutanda two kuryamishamo abana, n'ibindi.

Ubucuruzi bw'imboga zo mu bwoko bwa karoti, abaturage bifashisha mu gushaka amafaranga yatunga imiryango yabo no kunoza imibereho.

Ahakorerwaga ubucuruzi butandukanye burimo inkweto, imyenda. Abantu benshi baje guhahira aho hantu, ubona ko bafite amahitamo atandukanye kubicuruzwa biri aho ngaho.

Isoko riciriritse, ubona ko ryitabirwa n'abaturage benshi bajyanyemo ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane ibyavuye mu musaruro yabo y'ubuhinzi n'ubworozi.

Ahacururizwa ikinyobwa cyitwa ubushera cyangwa ikigage , aho abaturage bajya kugurira icyo kinyobwa ngo bice icyaka.